Uyu munara ni uw'imwe mu masosiyete y'itumanaho ya MTN nkuko bigaragara ku cyapa, ukaba ufasha abakoresha uwo muyoboro kuba bakumvikana igihe bahamagarana cyangwa se n'ikoranabuhanga rikarushaho kwihuta bari kurikoresha mu kazi kabo.

Izi modoka nyinshi ni imbangukiragutabara, zikaba zifashishwa mu mavuriro atandukanye kugira ngo zikoreshwe mu gihe hari umurwayi ukeneye ubuvuzi bwihutirwa, zikamugeza aho afashirizwa bitagoye.

Iri cupa ni iribikamo umwuka wifashishwa mu kuzimya, igihe habayeho inkongi y'umuriro, rikaba rishyirwa ahahuriye abantu benshi, nko mu mazu y'ubucuruzi, mu masoko, mu bigo by'amashuri, mu nsengero, mu mavuriro n'ahandi.

Aya macupa nayabikwamo umwuka wifashishwa mu kuzimya igihe habayeho inkongi y'umuriro aho aba agomba gushyirwa ahahurira abantu benshi nko mu mavuriro, mu masoko, mu bigo by'amashuri ndetse n'ahandi kugira ngo abe yakwifashishwa mu gutabara igihe habayeho icyo kibazo.

Aya ni amacupa abikwamo umwuka wifashishwa mu kuzimya, igihe habayeho inkongi y'umuriro, aho aterekwa ahantu hatandukanye hahurira abantu benshi, nko mu mavuriro, mu masoko, mu bigo by'amashuri, mu nsengero n'ahandi.

Aya macupa ni abikwamo umwuka wifashishwa mu kuzimya igihe habayeho inkongi y'umuriro, aho agomba gushyirwa ahahurira abantu benshi nko mu mavuriro, mu bigo by'amashuri, mu masoko, mu nsengero n'ahandi kugira ngo yifashishwe mu gihe habayeho icyo kibazo cyangwa hategerejwe ubutabazi bwisumbuyeho.

Uyu ni umukandida w'ishyaka rya FPR aho yari ari kwiyamamariza mu duce dutandukanye tw'igihugu ndetse nk'uko bigaragara abaturage bakaba bari baje kumushyigikira ari benshi bamwereka urukundo, akaba ari na we batoreye kuyobora u Rwanda.

Iyi modoka nini ni imwe mu zikorera mu mujyi wa kigali zitwara abagenzi rusange zibavana mu duce dutandukanye zibajyana mu tundi, bikaba byorohereza abakora ingendo za buri munsi kubona uko bagera aho bajya bitabagoye.

Iyi modoka ni imwe mu zifashishwa mu gutwara ibintu byinshi kandi biremereye cyane, aho bakunze kuyitwaramo umucanga, amabuye yo kubakisha, ibitaka ndetse n'ibindi.

Iyi modoka nini, ni imwe mu zikorera mu Mujyi wa Kigali, mu gutwara abagenzi rusange, zibavana mu duce dutandukanye zibajyana mu tundi, bikorohera abakora ingendo za buri munsi nk'abanyeshuri cyangwa abajya ku kazi, kubona uburyo bwo kugera aho bajya bitabagoye.

Imodoka nini, ni imwe mu zifashishwa, mu gutwaramo ibintu byinshi, kandi biremereye, abakora umwuga wo kubaka, bakunze kuyipakiramo umucanga, amabuye yo kubakisha, ibitaka, ndetse n'ibindi.

Hano ni mu mujyi wa Kigali, ahari umwanya washyiriweho abaturage, aho bashobora kwicara bari kuruhuka, cyangwa se bari kuganira, ndetse no mu bindi bikorwa bitandukanye birimo imyidagaduro.

Hano ni mu Mujyi wa Kigali, ahari umwanya wahariwe abaturage, hashyizwe intebe bashobora kwicaraho bari kuruhuka, bari kuganira cyangwa se gukora ibindi binyuranye birimo nk'imyidagaduro.

Iki cyapa kigaragaza ahari umwanya wahariwe abanyamaguru kuba bakwambukira, aho gifasha abatwara ibinyabiziga kuhabona mbere y'igihe kugira ngo babe bagabanya umuvuduko cyangwag se bahagarare mu gihe hari gutambuka mu rwego rwo kwirinda impanuka.

Iyi mirongo y'umweru iri hagati mu muhanda, ni iyerekana aho abanyamaguru bagomba kwambukira ndetse bikorohera n'abatwara ibinyabiziga kuba bahagarara mu gihe hari abari gutambuka kugira ngo babe bakwirinda kubagonga.

Iki kiraro kinini ni kimwe mu byubatse mu mujyi wa Kigali kikaba giherereye mu karere ka Kicukiro, aho kiriho n'umuhanda uca hejuru y'indi, bikaba kigaragaza ko igihugu cy'u Rwanda gikomeje gutera imbere.

Iyi mirongo y'umweru iri hagati mu muhanda ni iyerekana aho abanyamaguru bagomba kwambukira bikorohera n'abatwara ibinyabiziga kuba bahagarara cyangwa bakagabanya umuvuduko mu gihe hari uri gutambuka kugira ngo hirindwe impanuka.